Ndabona igishushanyo k'inkoko iri kumwe n'umushwi wayo. Nkabona n'igishushanyo cy'akaguru ariko katuzuye. Hirya yaho karimo n'amagambo, nkabona ikirenge cy'umuntu kiri gutambuka usa nuri kurenga. nkabona n'igice cy'umunwa w'ihene kirangaho

Ni inzu yubatse ifite amarangi y'icyatsi n'ay'umweru, ifitte amabati y'ubururu, yubakije amatafari ahiye, imbere harimo za kizimyamwoto z'umutuku. Ni inzu igeretse ya etaje.

Abadamu babiri bari kumwe n'umugabo umwe, wambaye ingofero. Afite agakapu mu ntoki. Bateye intambwe bari kugenda bambaye ijire y'akazi. Umwe afite imisatsi iri hejuru undi afite igwa inyuma. Bari gutambuka bose bambaye inkweto zifunze.